Kwa muganga hagaragarayo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura nk'inshinge imiti n'ibindi byinshi bitandukanye, ibi byose biba byarakozwe kugira ngo bifashe umurwayi urwaye gukira indwara vuba.

Leta yacu yagiye yorohereza abaturage batuye mu bice byose bitandukanye by'igihugu kugira ngo babone amazi meza bazajya bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo bagire isuku mu byo bakora mu byo barya ndetse no mu byo banywa.

Ababyeyi bafite abana batoya bitabwaho cyane mu nzego zitandukanye, kugira ngo bibafashe kwita ku bana babo bityo bagire ubuzima bwiza, bizabafashe kwirinda indwara zigiye zitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abajyanama b'ubuzima ni abantu batoranywa kugira ngo bafashe abaganga ndetse n'abarwayi, babafashe kubitaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bahabwa amahugurwa ndetse kandi baba bafatwa nk'abaganga nuko bo aba ari abaturage basanzwe.

Abarwayi bagana ibigo nderabuzima, bahabwa ubufasha ndetse rimwe na rimwe iyo bafite abana, babitaho babaha amata, ibyo kurya ndetse n'ibindi byose byabafasha, kugira ngo abana bagire ubuzima bwiza.

Mu gihe hari ikibazo runaka ni byiza ko abantu bose bicara hamwe bakakiganiraho, bakagishakira umuti bafatanije kugira ngo nibura bagikemure mu maguru mashya, kidakomeje kubagora no gufata intera yo hejuru.

Mu bice bimwe na bimwe by'icyaro amazi yamaze gushyikirizwa abaturage, hari amarobine atanga amazi kandi meza, aho usanga abaturiye ayo marobine bayavoma uko bishakiye, amazi meza adakama kandi yifashishwa mu kugira isuku.

Biragaragara ko hari abaturage bakivoma amazi yo mu bishanga, ibi ahanini babiterwa n'uko mu duce batuyemo leta itari yahageza amazi meza yifashishwa mu kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Abarimu barera abana cyangwa se bigisha abana, baba basabwa kugira urukundo ndetse no kwita kuri abo bana mu buryo bwose butandukanye, rimwe na rimwe bagahimba imikino myiza izajya ibafasha gusabana n'abana kugira ngo abo bana babiyumvemo maze ubundi bakomeze gukura mu mutwe.

Mu nama zose zibaho ziba zifite umuntu ugomba kuziyobora, uwo muntu ashobora kuba umuyobozi w'umurenge uw'akagari cyangwa se w'umudugudu cyangwa se undi wundi ufite ikintu ahagarariye ariko ashaka kugira ngo akigeze ku bandi runaka.

Leta ikoresha imbaraga nyinshi kugira ngo igeze amazi meza ku baturarwanda bose. Aho usanga mu duce tumwe na tumwe tugize igihugu, igenda ihubaka amavomero meza kandi agezweho, mu buryo bworoheje, abahaturiye bakabasha kubona amazi meza kugira ngo bagire isuku.

Iyo hari umuntu uri gutanga ikiganiro cyangwa se andi mahugurwa ayo ariyo yose, ni ngombwa kandi ni byiza ko abantu bamukurikira bakita ku byo ari kubabwira rimwe na rimwe bakandika, kugira ngo baze gusigarana iby'ingenzi mu byavugiwe muri iyo nama.

Tugomba kwirinda indwara ziterwa n'umwanda dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune mu gihe tuvuye ku bwiherero, mu gihe tugiye kurya no mu kindi gihe cyose bibaye ngombwa ni byiza ko dukaraba intoki kandi neza tugacya kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Umubyeyi ufite umwana asabwa buri gihe kwita ndetse no kugenzura ko umwana we ameze neza, mu gihe yasanga hari ikibazo akihutira kumugeza ku kigo nderabuzima kimwegereye kugira ngo yitabweho n'abaganga bityo bamenye ikibazo afite bamuvurire ku gihe atarinze kuzahara.

Abantu bose basabwa kugira isuku y'imyambaro yabo, umubiri wabo, ibyo bateka ndetse no mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakagirira isuka ahantu batuye bakoresha amazi meza n'isabune haba mu gufura, mu gukaraba, ndetse no mu bindi bintu byose bya buri munsi.

Ababyeyi basabwa gutoza ndetse no kwigisha abana babo gukaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune igihe cyose bagiye kurya ndetse no gukora ikintu icyo ari cyo cyose kuko aribyo bituma bagira ubuzima bwiza.

Abayobozi bamwe na bamwe b'inzego zigiye zitandukanye za Leta, bakunze kugira igihe cyo kwicara hamwe biga, banonosora ndetse banashyira ku murongo bimwe mu bikorwa byabo kugira ngo bateze imbere Utugari cyangwa se Imirenge bayobora.

Abantu benshi bakunze guhurira ahantu hamwe kubw'impamvu zigiye zitandukanye, hari igihe bahahurira ku bw'ibirori, ubukwe, inama, cyangwa se ku mahugurwa ayo ari yo yose, niyo mpamvu ku bigo nderabuzima, ndetse no ku tugari, no ku mirenge hakunze guhurira abantu benshi.

Leta y'u Rwanda yagiye ishyira imigezi mu bice bitandukanye by'igihugu cyose, ikahashyira amazi meza kugira ngo abaturage bajye bayifashisha, babone amazi meza azabafasha mu rwego rwo kugira isuku ndetse n'ubuzima bwiza.

Amazi ni kimwe mu bikoresho byiza dukenera umunsi ku munsi. Ni yo mpamvu amazi ari ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abana bakunze gukinira mu mazi kubera yuko baba babona ari ikintu kidasanzwe mu buzima bwabo.

Amazi ni ubuzima niyo mpamvu abaganga badategeka kunywa amazi nibura litiro imwe ku munsi, amazi kandi adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi nko kugira isuku, guteka, ndetse n'ibindi byose bitandukanye.

Mu bitaro bimwe na bimwe, harimo ibikoresho byabugenewe bifasha abarwayi guhabwa umwuka, cyane cyane ababa bari mu bikoresho bikenerwa kongererwamo umwuka nka bomboni n'ibindi. Niyo mpamvu usanga muri buri cyumba hateretsemo cya bombini kimufasha kongerera umurwayi umwuka.

Kwa muganga ni ahantu tugana iyo dufite ibibazo cyane cyane iby'ubuzima, ni yo mpamvu muganga agomba kwita ndetse no gusuzuma neza ko umurwayi arwaye, akamuvura indwara atitaye ko baziranye cyangwa se bataziranye.

Mu duce twinshi tw'icyaro hari abantu usanga bakivoma amazi mabi, ariko ibi ngibi leta igenda ibikemura, aho igenda izana amazi ndetse n'amavomero atandukanye kugira ngo afashe abahaturiye kubona amazi meza bagira ubuzima bwiza.

Mu gihe hari umuntu ufite ikibazo ku kuboko, muganga aba agomba kumusuzuma neza, akamenya ngo ni ikihe kibazo afite, yamara kubona ikibazo afite akamuha imiti, bityo umurwayi akoroherwa.

Mu bice bimwe na bimwe by'igihugu, ahantu henshi hamaze kwegerezwa amazi, cyane cyane amavuriro afasha abaturage mu kwiteza imbere, kugira isuku y'ibyo bambara, guteka ndetse n'ibindi bikorwa byose bya buri munsi, harimo no guteka ibyo kurya.

Abantu bagomba kwicara hamwe bakiga ku ngingo runaka bityo bakayifatira umwanzuro yaba ari ikibazo cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyangwa ikiza cyaje bushya ni ngombwa ko abahanga muri cyo bicara bakagishakira umuti.

Ni byiza ko buri muturage wese atunga kandagira ukarabe ku rugo iwe, kubera yuko tugomba kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, igihe tuvuye ku bwiherero n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose bibaye ngombwa.

Mu duce twinshi two mu cyaro, haboneka amavomero menshi agiye atandukanye, yifashishwa n'abahaturiye kugira ngo babone amazi meza. Ibi ngibi Leta ibikora kugira ngo igeze ku mazi meza abaturarwanda bose, bityo ice ukubiri n'indwara ziterwa no kunywa amazi mabi.

Urushinge ni bumwe mu buryo bunyuzwamo umuti kugira ngo ugere ku murwayi byihuse. Mu bigo nderabuzima bitandukanye ndetse no ku bitaro usanga bakunze gutera abantu inshinge cyane cyane iyo baje kwivuza barembye cyangwa se bagirango ngo umuti ugere mu mubiri mu buryo bwihuse.

Mu gihe abaturage hari icyo babona kitagenda neza bakunze kujya mu mihanda bakamagana icyo gikorwa kitagenda neza cyangwa se haba hari icyo bashaka kuvuga ko kigenda neza nabwo bakajya mu mihanda bakabivuga ko ibyo bintu bigenda neza.

Ubu mu Rwanda hari amavomero menshi agiye atandukanye cyane cyane mu duce tw'icyaro, aho usanga abaturage babona babona amazi meza kugira ngo bibafashe kugira isuku, bibafashe no kubona ubuzima bwiza mu mibereho yabo ya buri munsi.

Mu duce dutandukanye tw'igihugu, leta yagiye yegereza abaturage amavomero kugira ngo babone amavomero azajya abafasha mu kubona amazi meza, badakomeje kujya mu bice by'icyaro ahazwi nko mu bishanga kuvoma amazi mabi.

Mu bice bimwe na bimwe bigize Igihugu usanga Leta yaragiye ihashyira amavomero atandukanye bityo abaturage bakaza kuhavoma bitwaje ibikoresho byinshi bihagije kugira ngo batware amazi menshi bityo ntibaze kongera kugaruka mu masaha akurikiyeho.

Ku tugari ndetse no ku mirenge myinshi itandukanye hahurira abaturage benshi kugira ngo bahabwe ndetse bafate inyigisho zitandukanye ku buzima bwabo ndetse no ku mibereho yabo ya buri munsi, bibafashe kwiteza imbere ndetse no guteza imbere aho batuye.

Mu duce twinshi tw'igihugu hari amavomero menshi agiye atandukanye afasha abaturage mu kubona amazi meza bityo abaturage bagafata ibikoresho bakajya kuyavoma ndetse kandi bakajyana ibikoresho bihagije kugira ngo bataza gusubirayo mu masaha ari imbere.

Mu Rwanda amazi meza amaze kugera ahantu henshi, aho usanga cyane cyane ku mihanda ndetse no mu nsisiro hari imigezi yabugenewe abantu bifashisha mu kugira ngo bagire isuku, bamese imyambaro, bavome n'amazi yo kujyana guteka mu rugo.

Ku migezi imwe n'imwe itandukanye, usanga hari abantu baza kuvoma bagatonda umurongo munini bitewe n'uko hari ababa bazanye ibikoresho byinshi kuvoma, umuntu umwe akazana nk'amajerekani atanu n'undi yazana atanu ugasanga amajerekani aba menshi kurenza abantu, bityo bigatuma batonda umurongo bategereje ya majerekani ko asoza.

Ababyeyi ndetse n'abagore n'abakobwa iyo bihurije hamwe kugira ngo biteze imbere, bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko babasha kwikemurira ibibazo babikesha gukorera hamwe, nk'ababyeyi bikabateza imbere.

Mu Rwanda mu duce dutandukanye hari amavomero menshi agiye atandukanye yifashishwa n'abaturage kugira ngo babone amazi meza aho abaturage bose bahahurira buri urumwe n'igikoresho cye kugira ngo abashe gutahana amazi.

Abaganga bakura amenyo bakunze kwambara bakikwiza kugira ngo nibura amacandwe cyangwa se amaraso ari butuke ku murwayi bari gukura iryinyo ataza kuza kubatarukira, bityo bikaba byabatera kwanduzanya indwara zigiye zitandukanye.

Abarwayi bagana ibitaro bakeneye serivisi bakeneye kwivuza, usanga bicaye mu buryo bubakurikiranya uko baje bakurikirana, kugira ngo birinde akavuyo n'ikindi icyo aricyo cyose cyatuma habaho gutanguranwa, bitewe n'uko hari ababa bashaka kubikora vuba vuba.

Hari ibinyabiziga byifashishwa mu gutwara imizigo myinshi kandi iremereye, ibyo binyabiziga akenshi usanga ari ibinyabiziga binini kandi bitwara amatoni n'amatoni y'ibintu bibivana mu gihugu kimwe, bibijyana mu kindi cyangwa se bibivana ahantu hamwe, bibijyana ahandi.

Abaganga baba basabwa kwambara bakikwiza kandi bagakoresha ibikoresho byabugenewe, nk'agapfukamunwa, akagofero n'indi myambaro y'abaganga ibafasha kugira ngo birinde kuba bakora amakosa, no kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose kibarangaza.

Ku bigo nderabuzima ni ahantu heza tujya dukeneye serivisi cyane cyane ubuzima, niyo mpamvu muganga agomba gusobanurira abantu bose baje bamugana by'ubuzima bwose kugira ngo abarwayi basobanukirwe n'uburyo bwo kwirinda indwara.

Abana bakiri batoya bataruzuza nibura imyaka itanu, basabwa kwitabwaho kugeza nibura bujuje imyaka ibiri, bahabwa indyo yuzuye, bagahabwa n'imfashabere, ibi bibafasha mu bihe by'imikurire kugira ngo bakure bafite ubuzima bwiza.

Hari amashuri y'abana yitwa irerero, aho usanga ababyeyi begeranya abana batandukanye maze bakicara hamwe bakabigisha, bakabigisha ibibakikije, nyuma y'ibyo byose byarangira bakabagaburira bakarya.

Abantu benshi bagiye mu mahugurwa cyangwa se bari mu nama runaka, bagomba kuba bafite agakayi n'agakaramu kugira ngo bandike ibiri buze kuvugirwa muri iyo nama, byose kuko biba ari ingirakamaro kandi byose byateguwe kugira ngo bibabere isomo, bibafashe mu buzima bwa buri munsi.

Uduce dutandukanye tw'icyaro usanga hari abaturage bakivoma amazi yo mu mitembo yo mu migezi amazi mabi, ibi babiterwa n'uko mu duce batuyemo haba hataragezwa amazi meza yujuje ubuziranenge.

Umubyeyi ufite umwana ukiri muto, aba agomba kumwitaho cyane yagira ikibazo akamujyana ku kigo nderabuzima kugira ngo basuzume bamenye ikibazo uwo mwana yagize, bityo niba yarwaye bamukurikirane hakiri kare kugira ngo ahabwe ubuvuzi kare.

Mu duce twinshi tw'icyaro hagaragaramo imigezi imwe n'imwe igenda isaza, iyo migezi akaba ari imigezi yubatswe ku nkunga ariko kubera kutagira uyitaho, abaturage bakayifata nabi bikarangira ishaje nta gihe imaze.

Mu duce twinshi tw'icyaro leta igenda ihegereza amazi meza kugira ngo abahaturiye bagire ubuzima bwiza babone amazi meza bityo bareke kujya kuvoma ku mitembo, ibi bifasha mu kubona amazi yo gutekesha, gufurisha ndetse no mu bindi bikorwa byose by'isuku.

Mu mavomero agiye atandukanye hano mu Rwanda, usanga hakunze kugaragara umurongo w'abantu benshi baba batonze baje kuvoma amazi. Niyo mpamvu leta ishyiramo imbaraga mu gutanga amazi ,aho hubakwa imigezi myinshi yiyongera ku yari isanzwe ihari mu duce twinshi tw'icyaro.

Mu gihe umurwayi yumva afite uburibwe mu mutwe, ni byiza kwihutira kujya kwa muganga cyangwa se ku ku iduka ricuruza imiti rizwi nka farumasi kugira ngo bamufashe bamuhe imiti imworohereza uburibwe n'ububabare mu mutwe.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, iyo hari inama cyateguye bagomba kwicara bakicara hamwe bakaganira bakabyigaho, bamara kubikemura bagafata ifoto y'urwibutso bose hamwe kugira ngo bazahore bibuka uwo munsi.

Mu gihe hari umuntu utameze neza ni byiza ko tumwegera tukamuganiriza, abagore bagomba gufata iya mbere mu kwegera umuntu babona ko afite ikibazo bakamuganiriza bakamubaza bakamusobanuza neza ikibazo afite nawe akabasobanurira.

Abantu benshi iyo bamaze gukora igikorwa runaka bahurira hamwe kugirango ngo bafate ifoto y'urwibutso kugira ngo iyo foto izabafashe mu bihe biri imbere kuzibuka ko hari igihe bakoze igikorwa cy'ingirakamaro bihuje nka gurupe y'abantu.

Ubu ngubu mu Rwanda, dufite amashuri yagenewe abana bakiri batoya, aho bahurira hamwe mu ishuri ryitwa irerero kugira ngo bigishwe ndetse banatozwe gukurikira mwarimu hakiri kare, bityo nibatangira amashuri ya leta bizabafashe mu myaka yabo.

Ku mihanda myinshi igiye itandukanye, hari abana baba bambaye nabi ubona yuko babaho mu buzima bubi, ibi babiterwa n'ubuzima baba baranyuzemo cyangwa se ari ababyeyi babo baba barashwanye, abana bagahitamo kwigira ku mihanda, kujya basabiriza kugira ngo babone uko babaho.

Iyo hari igikorwa cyangwa se umushinga uwo ariwo wose mu baturage, ni ngombwa kandi ni byiza ko uyoboye icyo gikorwa, agomba gusobanura neza uwo mushinga uko uzakora, kugira ngo abaturage n'abandi bantu bose bari aho ngaho basobanukirwe neza imikorere yawo.

Mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no ku isi yose muri rusange hari abantu bitwa abasazi. Abasazi ni abantu baba bafite ikibazo cy'imitekerereze muri make baba baragize akabazo mu bwonko, ugasanga ubwonko ntabwo bumeze nk'ubw'umuntu usanzwe. Bambara nabi bakagenda mu mihanda badafite aho kuba.

Ku mihanda imwe n'imwe uhasanga abantu bambaye nabi basa nabi bigaragara ko ari abantu bafite ikibazo cyo mu mitekerereze, abantu dukunze kwita abasazi, abo ni bamwe mu bantu bagenda badasa neza bakagenda bicara ku nkuta, batoragura ibyo babonye byose.

Ibiganiro ni imwe mu nzira nziza y'amahoro abantu benshi batandukanye usanga iyo bafitanye ikibazo babiganiraho bo ubwabo cyangwa se bagashaka umuntu ubibafashamo kugira ngo abafashe gukemura icyo kibazo, bakaganira bityo bakiyunga.

Abenshi bakunze kubona abantu badafite amenyo kandi batayoza bakabita abasazi, cyane cyane nk'iyo bafite ibisatsi byinshi, bambaye uko bashaka ibyacikaguritse, bakunze kubita abasazi.

Mu rwego rwo kugira ngo twoze amenyo yacu neza kandi agire isuku dukoresha umuti wabugenewe ndetse n'uburoso bw'amenyo cyangwa se tugakoresha akadodo n'indorerwamo tureba neza ko mu myanya y'amenyo hose nta myanda yasigayemo cyangwa se ibiryo byasigayemo.

Buri muntu asabwa koza amenyo ye kugira ngo agire ubuzima bwiza dusabwa gukoresha amazi ndetse naforogate n'uburoso kugira ngo tuyoze amenyo yacu kandi tuyoze mu buryo bwiza, bityo bitazatuma turwara amenyo mu myaka yacu iri imbere.

Kwa muganga haboneka ibikoresho by'ubwoko bwose butandukanye bifasha abaganga mu gusuzuma no kumenya indwara y'umurwayi afite niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga hari udukoresho tumeze nk'imikasi twinshi ariko mu by'ukuri twose ntabwo tuba dusa.

Hari ibikoresho byinshi bitandukanye usanga kwa muganga biba biteye amabengeza, haba harimo nk'intebe bicaraho ariko washaka kuryama ntujye ku kindi gitanda, ugategeka iyo ntebe ko ikuryamisha, nuko ikikora nk'igitanda ukaryama.

Kugira ngo umuganga akure iryinyo, bisaba ko aba yarabyize neza kandi anabifitiye impamyabumenyi, ni yo mpamvu gukura amenyo bisaba kwiga amashuri menshi, ndetse kandi ukongeraho no kuba uri inyangamugayo, udafite imico itari myiza.

Abaganga bavura cyangwa se bakura amenyo, bakoresha ibikoresho bitandukanye bari gukura iryinyo, hari utwuma bambara ku maso, utundi bafata mu ntoki n'ibindi byuma bitandukanye kugira ngo bite ku ryinyo ry'umurwayi.

Hari uburyo butandukanye bwo koza amenyo, aho ushobora kwifashisha umuti wabugeniwe uzwi nka corogate, ndetse n'uburoso n'amazi. Hari n'ubundi buryo kandi, aho ushobora kwifashisha akagozi cyangwa se akadodo, kugira ngo woze amenyo yawe.

Mu bitaro byo kwa muganga usanga harimo ibikoresho bitandukanye cyane cyane ibikoresho bifasha abarwayi mu kwivuza ndetse n'imashini zitandukanye zibafasha kubasuzuma no kumenya ikibazo bafite kugira ngo bahabwe ubuvuzi bakeneye.

Umuganga ukura amenyo, yifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo arebe kandi amenye neza ko iryinyo agiye gukura ari ryo rirwaye, bityo bitaza kumuviramo ingaruka yo kuba yakura iryinyo ritarwaye.

Umuntu wese ufite icyo ashaka kugeraho, bimusaba imbaraga nyinshi cyane cyane mu gukora ubushakashatsi kugira ngo nibura ubushakashatsi buzagaragaze ko hari icyo yakoze kandi hari icyo yagezeho, niyo mpamvu gukora ubushakashatsi bidufasha mu kugera ku byo twifuza.

Umurwayi wese ugananye muganga, aba agomba kumusuzuma kugira ngo amenye ikibazo yaje afite ndetse mbere yuko amuhereza imiti, aba agomba kumupima akamenya neza niba koko umuti ugiye agiye kumuha uhwanye n'uburwayi afite.

Umurwayi ategetswe kunywa imiti ndetse kandi akayinywera ku gihe muganga aba yagennye nk'uko muganga abimwandikira ku rupapuro amuhereza iyo ari kumuhereza imiti, iyo amasaha ageze aba asabwa kunywa amazi ndetse ubundi akarya n'iyo miti kandi akabinywera ku gihe.

Abantu bafite ubumuga, nabo ni abantu nk'abandi niyo mpamvu hari ibikoresho byabugenewe bibafasha mu ngendo zabo mu mikino ndetse no mu bindi bikorwa byabo bya buri munsi, bityo bakabasha kubaho nabo biyumva nk'abandi bantu basanzwe.

Umuntu wese ategetswe kurya indyo yuzuye irimo ibirinda indwara, ibitera imbaraga ndetse n'ibyubaka umubiri, nyuma y'ibyo akanywa n'amazi meza kugira ngo ajye gufasha ibyo yariye koroherezwa gukora igogorwa.

Muganga aba agomba gusobanurira neza umurwayi uri koroherwa, mu gihe yaba afite ikibazo cy'imiti akamuha udukoresho tumufasha kurambura imitsi ye, kugira ngo bimufashe koroherwa no gukira vuba maze ubundi azasubire mu buzima busanzwe.

Iyo bari gupima umurwayi bifashisha ibikoresho bitandukanye abaganga usanga baba bafite udukoresho bumviramo mu matwi utundi batureberamo kugira ngo bamenye indwara y'umurwayi.

Mu gihe muganga yadutegetse amasaha tugomba kunyweraho imiti, tuba dusabwa kuyubahiriza tukayinywera ku gihe, ibi bidufasha mu kwirinda kuzahara, kandi bikadufasha no mu gihe cyo gukira vuba.

Muganga aba agomba gusobanurira neza umurwayi, akanabimwandikiraho neza igihe agomba kunywera imiti akabyandika ku gapapuro, kugira ngo umurwayi ntazigere yibeshya cyangwa ngo asimbuke isaha yagenwe mu kunywa imiti.

Umurwayi urimo koroherwa, aba agomba kwitabwaho mu buryo bwose bushoboka; agasohoka hanze, akareba uko ibintu byifashe, akareba akota akazuba, akaganira n'abarwaza, akaganiriza n'abandi barwayi batandukanye, kugira ngo yongere agire icyizere cy'ubuzima n'ejo hazaza.

Sida ni indwara idakira, ni yo mpamvu hari umunsi ngarukamwaka wahariwe kurwanya sida, kandi ukunze kwizihizwa cyane cyane mu bice bigize igihugu cyane cyane ku bigo nderabuzima, ni yo mpamvu hari abagore bamwe baba barafashe gahunda yo kuzajya babyina kuri uwo munsi, ari nako bagenda barushaho kwamamaza no kubwira abaturage kwirinda sida.

Mu gihe umurwayi amaze koroherwa no gutora agatege, ni byiza ko muganga amwegera akamuganiriza, akamusobanurira ko kurwara atari ukwiheba kandi umuntu wese warwaye akihutira kujya kwa muganga hakiri kare akira vuba atazahaye.

Umuntu wari wararwaye iyo amaze gukira, aba agomba kurya indyo yuzuye, akarya n'imboga n'imbuto, kugira ngo bimufashe koroherwa ndetse no gutora akabaraga, bisubizemo imbaraga aba yaratakaje mu gihe yari yaramaze arwaye.

Umuganga aba agomba gusuzuma neza umurwayi, akamusuzuma buri gice cyose cy'umubiri we kugira ngo amenye indwara arwaye, bityo mu gihe cyo kumuha imiti aze kumuha imiti ihuye n'uburwayi bw'umurwayi.

Iyo abantu bamaze gukora inama, ni byiza ko bicara hamwe ubundi bagafata ifoto, kugirango iyo foto izababere urwibutso no mu bihe biri imbere, bityo bajye bayirebaho bayibuke maze bazirye.

Mu Rwanda tugira umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore. Aho usanga kuri uwo munsi abagore bahurira ahantu hamwe bakishima bakarya bakanywa, ndetse bakanishimira ibyiza bagezeho; aho usanga bahigiramo n'imihigo y'ibyo bazakora mu mwaka batangiye.

Abaganga badutegeka kujya kwisuzumisha igituntu kugira ngo dukire vuba kuko igituntu ni indwara ivurwa kandi igakira iyo uyikurikiranye hakiri kare, ni byiza rero kugana ikigonderabuzima kugira ngo bagusuzume banaguhe imiti niba waracyanduye.

Sida ni indwara mbi cyane kandi idakira abantu twese dusabwa kuyirinda ndetse no kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kuko ariho hantu indwara ya sida ikwirakwira kandi vuba.

Mu Rwanda hari ibigo nderabuzima bigiye bitandukanye, twavuga nk'ikigo nderabuzima cya Rwerere aho gifasha abarwayi ndetse n'abandi bantu bose baje bakigana guhabwa ubuvuzi no kwitabwaho mu buryo butandukanye.

Abana bafite ubumuga na bo ni abana nk'abandi! Niyo mpamvu hari amagare yabakorewe kugira ngo bazajye bayifashisha babashe kujya ku ishuri gukina n'abandi bityo bitume batabaho mu bwigunge.

Hari ibigo byabugenewe biba bifite ibyumba bikorerwamo ubushakashatsi, iyo hari icyiza cyangwa se ikindi kindi bashaka gukoreraho ubushakashatsi, bifashishije ibyo byumba kugira ngo babone amakuru bakeneye kuri iyo ngingo.

Mu bitaro bitandukanye, usanga hari imashini zabugenewe zifashishwa mu kuvura abantu, zipima kandi zikanasuzuma umurwayi bitabaye ngombwa ko muganga amureba we ku giti cye.

Kwa muganga dusangayo ibikoresho bitandukanye bifasha abarwayi mu kuvurwa, twavuga nk'ibitanda amasupanete, n'amashuka biyorosa ndetse na za serumo n'ibindi byinshi bitandukanye bibafasha, kugira ngo bahabwe ubuvuzi vuba.

Hari amaduka acuruza imiti azwi nk'amafarumasi. Ayo maduka usanga akenshi na kenshi aherereye ahantu mu duce two mu mujyi, ariko biragoye ko wayasanga ahantu mu cyaro. Abarwayi ndetse n'abandi bantu bafite ibibazo, basabwa kuyagana mu gihe bumva bagize ikibazo, batabasha kujya kwa muganga.

Kwa muganga haboneka ibikoresho bitandukanye twavuga nk'intebe, ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bifasha umurwayi ndetse na muganga kwitabwaho ndetse no guhabwa serivisi nziza bityo bigatuma akira vuba.

Mu Rwanda hari ibigo nderabuzima bitandukanye ndetse kandi hari n'inyubako zitwa materinete zakirwamo ababyeyi gusa bityo umubyeyi wese wagize ikibazo asabwe kuyigana kugira ngo bamufashe.

Iyo umurwayi arimo kugenda yoroherwa, arushaho kugenda agira ibinezaneza ku mubiri ndetse arushaho no kugira icyizere ko ubuzima bwe noneho buri gusubira ku murongo. Nyuma yaho muganga amuhereza imiti ya nyuma ni uko akamusezerera agataha.

Kwa muganga, dusangayo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abaganga mu kugira ngo batange serivisi nziza, bityo umurwayi waje ubagana ahabwe ubuvuzi mu buryo bumworoheye.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, niyo mpamvu hari inyubako zabugenewe, usangamo ibikoresho bitandukanye bifasha umuntu mu gukora siporo kugira ngo arambure ingingo z'umubiri we ndetse n'ibindi bice by'umubiri bitandukanye.

Ibitaro bitandukanye kandi byiza bigezweho, biba byujuje ibyangombwa bisabwa. Aho usanga bifite ibikoresho byiza nk'ibitanda bifite amapine, biteye ku buryo bworohereza umurwayi, kandi ibyo bifite n'inzitiramibu kugira ngo birinde malariya.

Mu bice bitandukanye by'igihugu hari amapolikilinike cyangwa se amavuriro yigenga usanga na yo yujuje ibisabwa, rimwe na rimwe usanga ari inyubako nziza, hari na parikingi, bigafasha umurwayi mu kubona serivisi yaje akeneye aho hantu.

Mu gihe muganga ari gusuzuma umurwayi, agomba kumubaza ndetse akamubaza buri kimwe cyose uburyo yiyumva, kugira ngo umurwayi ibimenyetso ari buvuge yiyummvaho bize kuba bihwanye neza neza n'indwara, mu gihe muganga amuhaye imiti ataza kumuha imiti idahura n'uburwayi bwe.

Umuganga urimo kuvura umurwayi, aba asabwa kumuganiza n'ibyishimo, akamuganiza aseka muri make akamubwira yuko icyizere cy'ubuzima bwe kigikomeje ndetse akanamwibutsa yuko mu gihe yageze kwa muganga agomba kwizera ko ari bukire kuko abaganga baba bahari ngo bamufashe.

Mu bitaro bitandukanye hano mu Rwanda, usanga hari icyumba gikorerwamo operasiyo, kiba cyihariye kiri ahantu hatuje ku buryo umurwayi wese winjiyemo aba yiteguye kandi anizeye ko ibigiye gukorerwamo aho ngaho byizewe ijana ku ijana.

Mu duce twinshi tugize Umujyi wa Kigali, usanga ku mihanda igiye itandukanye hariho ibyapa biyobora abantu, bitewe n'uko haba hari imihanda myinshi, bashyiraho ibyapa kugira ngo bijye bifasha abagenzi ndetse n'abakeneye serivisi zitandukanye, kubona aho bari bubikure.

Kwa muganga, ni hamwe mu hantu dusanga ibikoresho by'ubuzima bitandukanye. Rimwe na rimwe uhasanga ibikoresho byinshi byifashishwa n'abaganga kugira ngo babashe guhereza abantu barwaye serivise nziza, cyane cyane iyo kubitaho no kubavura.

Biba byiza iyo muganga cyangwa se undi muntu uwo ari we wese uyoboye ahagurutse akigisha abaturage neza akabasobanurira ibyiza ndetse n'ibibi by'igikorwa runaka, bityo abaturage bakabyumva bakabasha kubishyira mu bikorwa.

Kwa muganga wasanga abantu benshi bafite ibibazo bigiye bitandukanye bose bicaye batonze umurongo umwe kuri umwe kugira ngo muganga akomeze kubafasha, umwe avayo hajyayo undi ibi ngibi bituma hatabaho akavuyo ndetse n'umubyigano kwa muganga.

Umuganga uri kuvura umurwayi aba agomba kwitonda cyane agakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho ndetse kandi ntabwo akwiye kuba ari wenyine aba akwiye kuba ari na mugenzi we kugira ngo bite ku murwayi kuburyo bagomba kumuvura neza nta kibacitse.

Amavuriro menshi agezweho aba yubatse mu buryo bworohereza umurwayi ndetse n'umuganga, aho usanga hari ibyumba biba byujuje buri kimwe cyose, bitari ngombwa ko muganga asohoka hanze kuzana imiti cyangwa se ikindi gikoresho.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyashyize imbaraga nyinshi mu kurwanya indwara ya malariya, aho batanga inzitiramibu ku bagore batwite ndetse n'abantu ku giti cyabo, bagatera n'imiti yica imibu mu mazu y'abaturage.

Siporo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu niyo mpamvu hari inyubako nyinshi zitandukanye zubatswe kugira ngo zijye zifasha abantu mu gukoreramo siporo ndetse hagashyirwamo ibikoresho bitandukanye, bifasha abantu mu gukora siporo mu bice byose by'umubiri.

Abantu bakora siporo hari ibikoresho byabugenewe byabateganyirijwe, ndetse hari n'inyubako ziba zarabateganyirijwe, zubatswe ku buryo bwiza bubafasha cyane cyane mu gukora siporo zabo neza nta kibabangamiye.

Hari ibigo nderabuzima na none usanga byubatse mu buryo bwiza ariko bigaragara cyane, aho usanga imbere yabyo hariho amadarapo, kandi hari ibyapa byerekana ko ari ibigo nderabuzima, cyane cyane bifite na parikingi imbere yabyo.

Abaganga ndetse n'abandi bose bakorera inzego z'ubuvuzi bakunze kuba bafite ibikoresho bashyiramo imyenda yabo cyangwa se ibindi bikoresho bifashisha bari kuvura nk'imikasi n'ibindi byuma kugira ngo bibitunganye kandi bibibike neza.

Inyubako zigezweho zikorerwamo siporo ndetse n'imyidagaduro, ziba zujuje ibisabwa kandi zifite buri kimwe cyose kugira ngo umuntu akore siporo neza, niyo mpamvu umuntu ukora siporo agomba gusanga izo nyubako, kugira ngo ahasange buri kimwe cyose cyamufasha mu gukora siporo.

Kwa muganga haba hari ibikoresho byinshi byabugenewe byifashishwa mu kugira ngo umurwayi ahabwe serivisi nziza cyane cyane ibimashini bya rutura byifashishwa mu gupima no gusuzuma neza uburwayi bw'umurwayi.

Mu bitaro bigezweho usanga hanze haba hari umwanya munini cyane basize kugira ngo abakozi bo muri ibyo bitaro ndetse n'abahagana bashaka kwivuza, abafite ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, bajye babona aho kubiparika.

Kwa muganga ni hamwe mu hantu dusanga inyubako nziza kandi zubatswe mu buryo bugezweho kugira ngo zorohereze ndetse zinafasha abaganga kuvura abarwayi mu buryo bwiza kandi bwizewe nta gihunga bafite.

Mu Rwanda hari amaraboratwari menshi agiye atandukanye, yifashishwa kugira ngo basuzume imiti runaka, niyo mpamvu abashakashatsi benshi bihuza kugira ngo basuzume ndetse bamenye neza niba imiti bagiye gutanga yujuje ubuziranenge.

Mu bitaro bimwe na bimwe hagaragaramo inyubako zitandukanye ziba zifite ibikoresho byiza kandi bigezweho byifashishwa mu kuvura abarwayi ibyo bikoresho haba harimo utubati n'ibindi byinshi bitandukanye bibikwamo ibikoresho nk'imyenda ndetse n'ibindi byifashishwa kwa muganga.

Mu bitaro bigezweho usanga harimo ibitanda byiza bifasha abarwayi kurwara neza, kuvurwa neza, kuryama neza, no kwitabwaho mu buryo ubwo aribwo bwose na muganga bitabagoye.

Ubu mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi, hari amavuriro agiye atandukanye kandi yubatswe mu buryo bugezweho, ibi bifasha abarwayi ndetse n'abaganga, kubona serivisi ndetse no gutanga serivisi mu buryo bwiza, byorohereza umurwayi mu gukira vuba.

Amavuriro ndetse n'ibitaro bigezweho biba byubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, bufasha umuganga ndetse n'umurwayi kugira ngo abone ubuzima bwiza mu gihe ari kwitabwaho na muganga, niyo mpamvu amavuriro menshi ariho iki gihe usanga abarwayi batayatindamo.

Abaganga badushishikariza gutanga amaraso, ariko hari ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso ndetse kandi gifite n'icyicaro mu mujyi wa Kigali, aho usanga hari inyubako nziza parikingi nziza ibyo byose ari ibyo byakozwe kugira ngo bifashe abantu mu buvuzi.

Mu bitaro bitandukanye, usanga harimo ibikoresho bikomeye kandi byiza, byifashishwa mu kugira ngo umurwayi ahabwe serivisi neza, twavugamo nk'ibitanda byabugenewe, n'izindi mashini zifashishwa mu gusuzuma uburwayi bw'umurwayi.

Mu bitaro byose by'igihugu usanga harimo imashini ndetse n'ibikoresho byabugenewe by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura mu buryo bwiza bugezweho ku buryo umurwayi wese ubigannye bamuvura bakamwitaho bifashishije ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga.

Hari ibigo by'ubuzima mu Rwanda, biba byubatse ku buryo utapfa gusobanukirwa ko ari ibigo nderabuzima, aho usanga hari jaride nziza, inyubako ihishe kandi iteye amabengeza, kandi yubatse mu buryo bwiza bugezweho.

Hari inyubako zimwe na zimwe z'ibitaro usanga zubatse ku buryo bwiza aho nko ku mpande zazo haba hari jaride nziza, hari n'izindi ndabo nziza ziteye amabengeza, ibyo bigatuma ibyo bitaro bigaragara neza haba ku babigana ndetse no guteza imbere igihugu cyose muri rusange.

Mu bitaro ndetse no mu bigo nderabuzima bitandukanye habonekayo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byiza kandi bigezweho bifasha abaganga kumenya indwara umurwayi arwaye, bityo bakamufasha kuyivura mu buryo bwiza.

Imashini zifasha abantu mu gukora siporo, ni imashini ziba zarabugenewe kandi zikoze mu buryo bwiza bworohereza umuntu mu gukora siporo, ku buryo ibice byose by'umubiri we bikora siporo kandi bikagororoka agataha yumva afite ubuzima bwiza.

Mu bitaro hari ibikoresho byabugenewe bifasha abarwayi mu kubavura, aho usanga hari nk'imashini zibafasha kunyura mu byuma, bityo umurwayi wese waje ugana ibyo bitaro agahabwa serivisi nziza kandi akayihabwa ku buryo yizera.

Hari ibikoresho byabugenewe umuganga yifashisha kugirango asuzume neza indwara umurwayi arwaye, rimwe na rimwe akunda gukoresha ibyuma nka mudasobwa kugirango arebe, amenye neza niba icyibazo umurwayi afite cyirimo imbere mu mubiri cyangwa se cyiri inyuma y'umubiri.

Ibitaro byubatse neza kandi bifite jaride nziza, bifasha igihugu gutera imbere ndetse no kugira ishusho nziza ku ruhando mpuzamahanga, bigatuma biteza imbere Isi yose, ndetse n'ababigana bakabishimira serivisi nziza bitanga.

Abaganga ndetse n'abandi bose babifite mu nshingano, badushishikariza gutanga amaraso, batubwira ko gutanga amaraso ari ugutanga ubuzima, cyane ko iyo utanze amaraso uba ufashije umurwayi umwe mu barwayi bose baba bari kwa muganga.

Kwa muganga ndetse no ku bigonderabuzima hagaragarayo ibikoresho bikomeye cyane cyane ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho usanga mu cyumba kimwe cy'umurwayi haba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye bifasha umurwayi kugira ngo yitabweho.

Kwa muganga kandi wahasanga akuma kameze nk'imbago ariko nanone gafatwaho n'akaboko kamwe kaba gafite amapine, bigaragara ko umurwayi ariwe ugenda ugasunika cyangwa se muganga akagasunika akerekeza aho ashaka ko kajya.

Siporo ni ubuzima bwacu, niyo mpamvu abaganga batugira inama yo gukora siporo kugira ngo tugire ubuzima bwiza, ndetse kandi ibi biturinda indwara zo mu zabukuru harimo nk'imivuduko y'amaraso ndetse n'izindi zitandukanye.

Hari ibikoresho bitandukanye, bifasha abantu mu gukora siporo. Aho nk'abakinnyi b'umupira bakunze kwifashisha umupira uzwi nka baro kugira ngo bakore siporo, ndetse n'abandi bakina za tenisi ndetse na za gorufe, bafite imipira yabagenewe mu gukora siporo.

Mu gihe hari uwavunitse cyangwa se undi wese wagize ikibazo, ni ngombwa ko tumukorera ubutabazi bw'ibanze, aribyo bita fesiti eyidi, ibi tubimukorera mu rwego rwo kugira ngo abaganga bajye kuhagera cyangwa tumugeze ku kigo nderabuzima, akirimo guhumeka.

Nyuma yo gukora siporo umuntu aba asabwa kurya kandi akanywa neza, nyuma y'ibyo akarya imboga n'imbuto bimufasha gusubiza imbaraga mu mubiri we kandi akarya neza akabirya akabihaga.

Dukwiriye kujya dukora siporo mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko siporo ari ingirakamaro ni ngombwa ko umuntu wese akora siporo kandi akayikora mu buryo bwiza, arambura ibice by'umubiri we cyane cyane amaguru n'amaboko kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, niyo mpamvu hari inyubako zimwe na zimwe zubatswe kugira ngo zikorerwemo siporo, hakaba n'imyambaro yabugenewe kugira ngo ifashe abantu mu gukora siporo, inkweto, imipira, n'iyindi myambaro igiye itandukanye.

Mu gihe umurwayi arimo aroroherwa ni byiza ko tumusohora hanze ukamuhereza utuntu tumufasha kurambura imitsi, bityo ntakomeze kuzaharira mu bitaro agakomeza agatembera hanze bimufasha kugarura icyizere cy'ubuzima.

Siporo ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu ndetse no ku mikorere y'ubwonko bwe, abaganga batugira inama yo gukora siporo kugira ngo biturinde kuzagira indwara cyane cyane indwara z'izabukuru harimo imivuduko y'amaraso ndetse n'izindi.

Umurwayi wavunitse ukuguru, muganga asabwa kumwitaho mu buryo bwiza kandi bwizewe kugira ngo mu mvune ye cyangwa se mu gikomere cye hataza kujyamo imyanda bityo bikaba byamuviramo kurwara izindi ndwara zitandukanye.

Umuntu wese ufite ikibazo mu igufa ni ngombwa kwihutira kumugeza kwa muganga, kugira ngo abaganga basuzume neza bifashishije ibikoresho byabugenewe barebe ikibazo afite mu mubiri ,bityo bamuvure neza.

Mu buvuzi iyo abaganga bamaze kuvura umurwayi ni ngombwa gusuzuma no kureba neza koko ko indwara yakize. Bityo bagahamagara na bagenzi babo kugira ngo baze barebe neza niba koko indwara umurwayi yaje arwaye yakize.

Abafite ubumuga na bo ni abantu nk'abandi, niyo mpamvu hari ibikoresho byabugenewe cyane cyane nk'imbago zifasha abantu mu kugenda, yaba abafite ubumuga bw'amaguru cyangwa se ubw'amaboko bahabwa imbago izajya ibafasha mu kugenda kugira ngo na bo babashe kwiteza imbere nk'abandi.

Mu gihe umurwayi cyangwa se undi muntu wese yavunitse ukuguru cyane cyane akavuka mu ngingo, tugomba kwihutira kumugeza kwa muganga kugira ngo muganga abe ariwe usuzuma, bityo amenye ngo umurwayi we yagize ikihe kibazo, ni hehe yavunitse, bityo amwiteho.

Amazi ni ubuzima, niyo mpamvu umuntu wese umaze gukora siporo, aba asabwa kunywa amazi nibura kugira ngo asubizemo imbaraga aba yatakaje mu mugihe aba arimo arakora siporo, twese dusabwa kunywa amazi kandi amazi meza kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Umuntu wese asabwa kunywa amazi kandi ahagije mu mubiri we, kubera ko amazi ari ingirakamaro ni byiza ko tunywa amazi mugihe cyose dufite ubuzima, n'igihe cyose tumaze gukora siporo tukanywa amazi meza ahagije, kugirango adufashe mu mubiri.

Siporo ni ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, niyo mpamvu abaganga badutegeka gukora siporo kugira ngo bizaturinde kurwara indwara zo mu zabukuru, harimo nk'umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi ndwara zose zishobora gutuma umuntu agira ubuzima bubi.

Mu buryo bwiza bwo gukora siporo, hari ibikoresho byabugenewe byifashisha kugira ngo umuntu akore siporo neza, hari ibirambura ingingo, hari ibirambura amaboko, hari ibirambura igikanu n'ibindi byinshi bitandukanye.

Abaganga bakunze kugira ikibazo cyo kubura ibikapu byo gutwaramo ibikoresho bifashisha mu gihe cyo kuvura. Niyo mpamvu hari ibikoresho byabugenewe biboneka cyane cyane kwa muganga gusa, aho usanga bashyiramo ibikoresho byose n'imiti n'inshinge ndetse n'imikasi n'utundi dukoresho utwo ari two twose twifashishwa n'abaganga.

Umuntu wese wagize imvune cyangwa se wagize ikibazo mu kuboko, ni ngombwa ko abanza kwitabwaho agahabwa ubuvuzi bw'ibanze, mbere y'uko ajyanwa kwa muganga, cyangwa se rimwe na rimwe hagasigwaho imiti imufasha kumugabanyiriza uburibwe n'ububabare.

Ni byiza ko buri muntu wese akora siporo cyane cyane siporo zo kwiruka, kuko abaganga batubwira ko siporo zo kwiruka ari siporo umuntu akora buri munsi kandi uko yazikoze zikaba zihwanye n'uwakoze izindi siporo izo arizo zose kuko buri gice cy'umubiri we kiba cyakoze.

Amazi n'ubuzima, niyo mpamvu abaganga badutegeka kunywa amazi menshi kandi buri gihe, tukanywa amazi meza kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, amazi adufashe mu igogorwa ry'ibiryo tuba twariye.

Umuntu wese umaze gukora siporo, asabwa kurya indyo yuzuye ndetse kandi akanarenzaho imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye kugira ngo bimufashe mu kugira ubuzima bwiza ndetse bimufashe no gusubizamo imbaraga aba yatakaje.

Kwa muganga haboneka ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu guhanahana amakuru ndetse no mu gusuzuma abarwayi. Twavuga ibikoresho bipima umutima, ibipima imitekerereze, ibisuzuma amaso ndetse n'ibindi bibara na za mudasobwa mu rwego rwo kugira ngo umurwayi yitabweho.

Mu gihe umuntu amaze gukora siporo ni ngombwa ko anywa amazi meza kugira ngo amazi agere mu mubiri amugarurire imbaraga aba yatakaje mugihe yakoraga siporo. Ni byiza ko tunywa amazi buri munsi kugira ngo amazi adufashe mu gukora igogorwa ryacu rya buri munsi.

Mu gihe hari umurwayi ugize ikibazo tumwegereye, ni byiza ko tumuryamisha ahantu heza, ubundi tukamufasha mu buryo bwo guhumeka, tukabona guhamagara muganga cyangwa se tugahamagara imbangukiragutabara kugira ngo ize imugeze kwa muganga.

Abantu benshi bakora siporo, bakunze gukenera ibikapu byo gutwaramo ibikoresho byifashishwa muri siporo. Niyo mpamvu hari ibikapu byiza kandi bigezweho bibika ibikoresho bya siporo kimwe ku kindi ku buryo bwiza.

Abaganga baba basabwa kwitonda ndetse no gushishoza mu gikorwa cyo kuvura umurwayi, bagakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga byiza kandi bigezweho, kugira ngo basuzume neza bamenye uburwayi bw'umurwayi afite.

Mu gihe urimo ukora siporo, ugomba kugenzura neza ko ibice byawe by'umubiri biri gukora siporo mu buryo bukwiriye, kugira ngo wirinde kuba wahura n'ibibazo byo kugorama ingingo, bitewe n'uko wakoze siporo mu buryo budakwiriye.

Umurwayi urimo koroherwa muganga aba agomba kumukoresha udusiporo, akamuhereza imigozi agomba kurambura kugira ngo imitsi ye ndetse n'amagufa yiwe byongere bisubire mu murongo byemererwe gukora, bityo arusheho kugenda yoroherwa no gukira vuba.

Umuntu uvuye muri siporo aba agomba kurya neza kandi akanywa neza, akarya indyo yuzuye ndetse kandi akarya n'imbuto nziza, amagi, kugira ngo arusheho kongera kugaruza imbaraga aba yatakaje mu gihe cy'iwe ari gukora siporo.

Umuntu umaze gukora siporo ni byiza ko arya indyo yuzuye ikungahaye ku ntungamubiri, akarya amagi, imineke, imboga, imbuto, n'ibindi byose byamufasha kongera ubuzima bwiza.

Mu gihe urimo gukora siporo ukagira ikibazo cyo kuvunika mu ivi, ni ngombwa guhamagara umuntu ukwegereye kugira ngo aze agufashe, mu gihe bigoranye akihutira kukujyana kwa muganga kugira ngo muganga agusuzume amenye ikibazo wagize.

Mu gihe tubonye hari umuntu uvunitse ikirenge cyangwa se avunitse izindi ngingo z'umubiri tugomba kwihutira kumujyana kwa muganga kugira ngo bamusuzume bamenye ikibazo yagize, bityo muganga amuvure akurikije uko abona ikibazo cye kimeze.

Ni byiza ko muganga akoresha ibikoresho bye neza kandi akabikoresha yambaye agapfukamunwa, ibi bimurinda kuba yagira aho ahurira n'amaraso cyangwa se andi matembabuzi ayo ari yo yose aturutse ku murwayi cyangwa se ngoye agere ku murwayi bityo bakwirakwiza indwara zitandukanye.

Mu gihe hari umurwayi wagize ikibazo ni ngombwa ko tumukorera ubutabazi bw'ibanze mbere y'uko tumujyana kwa muganga, mu gihe wenda yavunitse nk'amaguru hagomba kubaho umuntu umufasha kugira ngo ayo maguru ataza gucika, ubundi akamwitaho mu buryo bwiza mbere y'uko amugeza kwa muganga.

Umurwayi wagize ikibazo cy'amaguru cyangwa se wagize ikibazo cy'ingingo, muganga aba agomba kumukoresha utwitozo duke dukeya, dutuma imiti ndetse n'ingingo ziwe zongera gusubira mu murongo zigakora neza nk'uko byari bikwiye mbere.

Umurwayi cyangwa se umuntu wagize ikibazo cy'imvune mu kuboko aba agomba nibura kubanza kurambika ho akantu gakonje kugira gakonjeshe iyo mvune ye bityo areke kugira ububabare bwinshi muri ako kanya.

Hari imashini nyinshi zabugenewe kwa muganga zifashishwa mu gupima indwara, rimwe na rimwe urazireba ukabona n'imashini zidasanzwe mu maso yawe, izo mashini nta kindi zikora usibye gusuzuma no kumenya no gutanga amakuru kuri muganga.

Umuntu ukora siporo, aba afite ubudahangarwa mu mubiri we, rimwe na rimwe usanga nta hantu na hamwe atabasha gukora ku mubiri we, kubera yuko amagufa yiwe aba yoroshye kandi amufasha, akamworohereza mu gukora kuri buri gice cyose cy'umubiri we.

Mu bitaro bimwe na bimwe uhasanga abarwayi bafite ibibazo bitandukanye, abavunitse, abarwaye indwara zidakira ndetse n'abarwaye indwara zoroheje. Gusa hari n'abo usanga baravunitse ingingo z'amagufa amaguru yose afite ibibazo.

Abaganga bavura indwara gakondo bavura indwara bifashishije imiti myinshi igiye itandukanye, bifashisha ibimera ndetse bakavuga ko ari amababi y'ibiti bimwe na bimwe baba barafashe, bakavanga n'izindi mbuto kugira ngo bitange umuti.

Abaganga bavura indwara bifashishije imiti gakondo bavuga yuko bakoresha ibimera kandi bakaba bavura buri kintu icyo ari cyo cyose mu mubiri w'umuntu, rimwe na rimwe bakunda kuvuga ko indwara zananiye abaganga ari bo bazivura zigakira.

Abavuzi gakondo bakora imiti itandukanye bayikuye mu bimera, aho usanga bifashisha amababi kugira ngo bakore imiti kandi myiza, izafasha abarwayi gukira vuba bakoresheje ibimera cyane cyane ibibabi.

Abavuzi gakondo bavuga ko bavura bifashishije imiti myinshi cyane cyane iyo bakura mu bimera, aho bavuga ko bafata ibibabi bigiye bitandukanye by'ubwoko bwose, bakabihuza kugira ngo bitange umuti wo kuvura abarwayi.

Abavuzi gakondo bifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo bavure indwara zigiye zitandukanye, twavugamo nk'utubuye, udusekuro n'ibindi byinshi bitandukanye bahuza, bakavanga vanga kugira ngo bavure mu buryo bwabo bihariye.

Mu buvuzi gakondo bakunze kwifashisha igikakarubamba kugira ngo kivure indwara nyinshi zitandukanye z'ubwoko bwose, niyo mpamvu abantu bafite amavuriro avura yifashishije imiti gakondo bafata igikakarubamba nk'umuti ukomeye cyane mu buzima bwabo.

Abavuzi bavura indwara za gakondo bakoresha amacupa mu kubika imiti yabo, amacupa atandukanye y'amabaragi atandukanye, bakayabikamo imiti bityo umuntu yaza akeneye umuti bagaterura icupa bakarimuhereza nawe akishyura amafaranga.

Abavuzi bavura indwara gakondo bavuga ko bavura indwara bifashishije ibibabi ndetse n'ibyatsi bitandukanye, niyo mpamvu batanga n'amafaranga ku muntu wese ubonye ibibabi by'ubwoko bashaka, ukabibazanira bakaguha amafaranga.

Abavuzi gakondo bavuga yuko bavura bifashishije imiti igiye itandukanye, cyane cyane imiti yo mu bimera, twavugamo nk'amaronji, indimu, ibibabi n'ibindi byose bitandukanye.

Mu buvuzi gakondo hari imiti igenda isekurwa mu masekuru, indi bakayishyira mu muriro bakayivumbikamo, indi bikaba ngombwa ko bayiteka mu mazi, indi bikaba ngombwa ko bayitangira aho ngaho, byose ari ukugira ngo barebeko umurwayi yakira.

Abavuzi bavura indwara gakondo bavuga ko bavura bifashishije imiti gakondo cyane cyane ivuye mu bimera, niyo mpamvu usanga bakunze kuvuga ko mu bimera bifashisha cyane cyane bakunze gukoresha amababi y'ibiti.

Imiti gakondo nayo ni imwe mu miti ivura kandi igakiza abantu ku buryo bwizewe; hari abarwayi baba bafite indwara zananiranye bajya kwivuza mu bavuzi gakondo ugasanga indwara zabo zirakize bityo ntibazongere kujya kwa muganga ukundi.

Abavuzi gakondo bavuga yuko mu kuvura kwabo bifashisha ibimera gakondo cyangwa se bakifashisha ibibabi, igitoki, ubunyobwa n'izindi mbuto zigiye zitandukanye kugira ngo babashe gukora imiti yabo bifashisha.

Abavuzi bavura indwara gakondo bifashisha ibimera cyane cyane ibibabi kugira bavure indwara zananiranye ariyo mpamvu biyita abavuzi gakondo bavura bifashishije ibibabi ibyatsi ibiti n'ibindi bintu bitandukanye.

Abaganga gakondo bavuga ko bavura bifashishije ibimera niyo mpamvu hari ibibabi bimwe na bimwe usanga babigura amafaranga kugira ngo bazabyifashishe mu gukora imiti bazabone icyo bifashisha bari kuvura abarwayi.

Abavuzi gakondo bifashisha ibyatsi kugira ngo bakore imiti bazifashisha bari kuvura, niyo mpamvu usanga hari nk'igiti bita umuravumba. Icyo giti ngo ni umuti ukomeye cyane ku bavuzi gakondo ngo kuko kivura indwara nyinshi zitandukanye.

Abavuzi ba gakondo bakoresha imiti igiye itandukanye kugira ngo bavure abarwayi babagana, aho usanga bifashisha nk'igikakarubamba ndetse n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye kugira ngo bavure abarwayi baje babagana.

Amacupa menshi arimo imiti agomba kuba ateretse mu buryo bworohereza umukiriya mu kusoma ndetse no kubona neza ko umuti yaje ashaka awubona, aha ibi bikunze gukorwa n'abacuruza imiti iyo bari gucuruza cyane cyane mu masoko.

Umuntu umaze gukora siporo, aba asabwa kurya indyo yuzuye akarya n'imbuto ndetse n'imboga z'ubwoko bwose, kugira ngo bimufashe kongera imbaraga mu mubiri ndetse kandi nyuma y'ibyo akanywa n'amazi meza kugira ngo yongeremo imbaraga ze aba yatakaje akora siporo.

Muri iki gihe hari amavuriro menshi avura abantu yifashishije imiti gakondo rimwe na rimwe usanga hari indwara ziba zarananiranye ku bitaro bitandukanye bigatuma umuntu ajya kwivuza mu buvuzi gakondo kugira ngo arebe ko indwara ye yabonerwa umuti maze agakira.

Abavuzi bavura indwara gakondo, bavuga ko bavura bifashishije ibimera, niyo mpamvu usanga ku ngo zabo ndetse n'ahandi hantu, hari ibibabi ndetse n'ibindi bimera byinshi bitandukanye bihateye.

Hari ibimera by'ubwoko bwinshi butandukanye byifashishwa n'abavuzi bavura indwara mu buryo bwa gakondo. Aho usanga bifashisha nk'amashu, ndetse n'izindi mboga zigiye zitandukanye kugira ngo bakuremo imiti yo kuvura abantu.

Abavuzi ba gakondo, bifashisha imiti myinshi igiye itandukanye y'ubwoko bwose, kugira ngo batange serivisi zabo neza. Ni yo mpamvu hari indwara zitavurwa n'abaganga, bagasaba ko abarwayi bajya kuzivuza mu bavuzi gakondo.

Abavuzi gakondo, bakunze kwifashisha ibitunguru cyane cyane tungurusumu, mu gukora imiti itandukanye, izifashishwa n'abantu mu gihe barwaye, kugira ngo babashe gukira indwara zabo.

Abaganga bavura indwara gakondo bifashisha ibyatsi bitandukanye ibiti ndetse n'amababi agiye atandukanye y'ibyatsi ibyo aribyo by'ubwoko bwose kugira ngo babashe kuvura indwara zabo bifashishije ayo mababi.

Abavuzi bavura indwara gakondo, bavuga ko bavura bifashishije ibimera by'ubwoko bwose, aho bavuga ko babifata bakabijyana mu nganda bakabikoramo imiti bityo bakayizana kuyishyira ku isoko cyane ko imiti yabo iba ihenze.

Abavuzi gakondo, bifashisha imiti itandukanye, iri mu ducupa twinshi kandi tw'amabara agiye atandukanye, mu kugira ngo bavure indwara zigiye zitandukanye zananiranye, rimwe na rimwe kandi usanga hari ababa bafite iyo miti abandi batayifite, niyo mpamvu dushishikarizwa kumenya abayifite akaba aribo tugana.

Abavuzi bavura indwara gakondo bavuga ko bavura bifashishije ibimera, ni yo mpamvu bakunze gusobanura bavuga yuko ibimera bifashisha bakoresha amababi yabyo bakayatunganya kugeza igihe havuyemo imiti izafasha umurwayi.

Mu bice bimwe na bimwe byo mu cyaro, hari abahinzi baba barahinze amahegitari cyangwa se imirima minini, bakayihingamo inanasi cyangwa se ibindi bihingwa byose bitandukanye kugira ngo nibimara kugera hejuru, bazabyifashishe babikuramo imiti, bazifashisha mu kuvura abantu.

Abavuzi bavura indwara gakondo, bavuga ko mu mivurire yabo bifashisha ibibabi bigiye bitandukanye by'ubwoko bwose, niyo mpamvu ibibabi bimwe na bimwe babitangaho amafaranga bakabigura, kugira ngo bazabone ibyo gukoramo imiti.

Abavuzi gakondo bavuga ko hari imiti imwe n'imwe bakora mu byatsi bifashisha mu kuvura abantu, iyo miti ikorwa mu bimera ndetse no mu mababi agiye atandukanye.

Mu maduka acuruza imiti usanga haterekeranyije uducupa twinshi twamoko yose agiye atandukanye, turimo imiti mu imbere niyompamvu umucuruzi watwo umubaza ngo ukeneye umuti, agahita akaguhereza byihuse.

Abavuzi gakondo batera ibiti by'ubwoko bwinshi bakanatera n'imbuto z'ubwoko bwinshi, kugira ngo bazabyifashishe bimaze gukura mu kugira ngo bakore imiti bazifashisha bari kuvura abarwayi baje babagana.

Abavuzi gakondo bavura bifashishije ibimera ndetse n'utundi tuntu twinshi dutandukanye amababi, tangawizi, amakara, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye begeranya maze bakavanga kugira ngo babone umuti wo kuvura.